Ibigo bicuruza itumanaho cyane cyane Airtel Rwanda, ni ibigo bikomeje gutanga icyizere kuko ubungubu hasigaye hishyurwa hakoreshejwe telefoni zigendanwa, hirindwa gukwirakwizwa kw'indwara, zituruka mu guhererekanya amafaranga.

Mu bukangurambaga buri gukorwa n'imwe muri sosiyete z'itumanaho mu Rwanda MTN harimo ko yabazaniye telefone buri muntu ashobora gufata ku mafaranga make akajya agenda yishyura mu gihe cy'umwaka.

Sosiyete y'itumanaho mu Rwanda MTN yahaye akazi abakozi batandukanye aho yanabahaye imitaka bazajya bikingamo izuba mu gihe bari mu kazi.

Sosiyete ikora iby'itumanaho mu Rwanda izwi cyane nka MTN, ikomeje gukangurira abakiriya bayo ko yabashyiriyeho uburyo bashobora kubona amatelefone bazajya bakoresha, ubundi bakagenda bayishyura agake gake.

Abantu bakora ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'ibindi biciriritse bavuga yuko igihe bakoresheje neza amahirwe bafite bihangira umurimo bahangana n'ikibazo cy'ubushomeri kibasiye urubyiruko.

Abakora ibikorwa byo kuranguza, yaba ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi, bavuga yuko iki ari igihe cyiza, cyo gufata agafaranga, bitewe n'uko Abanyarwanda bamenye akamaro ko gukoresha ibyo bikoresho.

Ibigo bitanga service mu Rwanda, cyane cyane airtel ,byavuze yuko byabazaniye uburyo abaturage bashora gutunga telefoni zigezweho, batanze amafaranga y'u Rwanda nibura ibihumbi makumyabiri.

Abakora serivisi za Mobile Money bakorera mu turere two mu Burasirazuba bw'u Rwanda bavuga yuko ibi bikorwa byabafashije kwiteza imbere kuko abaza babagana ari benshi.

Airtel ni imwe muri sosiyete ikomeje guca agahigo ,mu kugira abakiriya batari bake, aho umuntu aza ayigana akabona service yari yiteze kandi inoze.

Kwibumbira mu mabanki ndetse n'amakoperative, bituma abantu barushaho kwigirira icyizere ndetse bakanatinyuka, mu rwego rwo kugira ngo bahashye ubukene burundu.

Amabanki ndetse n'amakoperative, bikomeje gutanga ubujyanama ku bantu bifuza kuyagana, kuko bahabwa inyungu ku mafaranga bashyizemo, ndetse akaba anafite umutekano w'uko atakwibwa.

Binyuze mu kwibumbira mu makoperative, hari bamwe bahisemo gukora umwuga wo gucuruza inkweto ndetse n'ibindi bikomoka ku mpu, mu rwego rwo kugira ngo babyaze umusaruro inguzanyo bafashe.

Amabanki ndetse n'amakoperative buri gihe abishyize hamwe bagahuriza ku mugambi umwe, bashobora gukora ibikorwa bitandukanye bibyara inyungu harimo n'iby'ubucuruzi.

Korora inkoko kijyambere uziha buri kimwe zikeneye bituma umusaruro wazo w'amagi wiyongera, ibyo bigatuma ababikora badacika intege kuko baba bumva ko nta gihombo kiri mu byo bakora.

Abibumbiye mu makoperative bavuga y'uko bahisemo kubaka ahantu bazajya bahurira ubundi bakaganira ku mishinga yabo, ndetse bakanakurikirana niba amafaranga avamo abyazwa umusaruro uko bikwiye.

Mu karere ka Nyagatare hari ubukangurambaga, bw'uko umuntu ashobora kwizigamira amafaranga makeya yayinjiza, ubundi akaba yakwaka inguzanyo maze na we akagira ikintu akora, kimubyarira inyungu.

Kwibumbira mu mabanki ndetse n'amakoperative, nibyo bituma abantu babasha kubona inguzanyo ndetse bagakora ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye, harimo n'ishoramari.

Abantu bagenda bavuga yuko kunywa ibisindisha ari bibi biterwa n'uko baba babikoze mu buryo bw'indengakamere ariko agasembuye burya ni keza mu mubiri nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza.

Abakoresha agasembuye bavuga y'uko igihe wagafashe ariko biri mu rugero, bituma wumva uguwe neza, kandi ko ibibazo bimwe na bimwe bigenda byirengagizwa.

Abacuruza utubari bavuga y'uko inzoga ziremereye zikomeje kongererwa umusoro, biturutse ku kuba zituruka mu bihugu byo hanze, kuko ibingibi ari byo bituma ibiciro byazo bizamuka.

Mu tubari dukomeye cyane cyane mu mujyi wa Kayonza ndetse n'uwa Nyagatare, bivugwa y'uko dukomeje kunguka bitewe n'uko serivisi basigaye bahatangira zinyura buri wese.

Abaturage bacuruza ibitenge ndetse n'indi myambaro y'abadamu, baravuga yuko aho caguwa imaze gucika mu gihugu, iyi gahunda yo kohereza ibi bitenge mu Rwanda yahagaze bigatuma bihenda cyane.

Omo cyangwa se ifu yifashishwa mu gufura y'isabune, bivugwa yuko igihe ikoreshejwe kenshi mu myenda, biyisigamo impumuro nziza, buri wese yifuza.

Amamoto uko agenda yiyongera mu mujyi wa Kigali, ni nako amaduka aranguza ndetse akanatanga ibicuruzwa ku bantu babikeneye, bigenda byiyongera ku buryo ayo mamuto asigaye abitwara nk'aho ari abantu.

Amavuta y'ubuto cyangwa se aya ngaya azwi nk'ayo guteka, bivugwa yuko akomeje kubura cyane cyane ku isoko, bitewe n'uko imisoro yayo yiyongereye.

Urubyiruko rwananiwe kwifata rurashishikarizwa gukoresha agakingirizo, mu rwego rwo kugira ngo inda zitateguwe zigabanuke ndetse n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zicike burundu.

Mayoneze ya Jambo ikomeje kuba ikibazo cyane, bitewe n'uko abantu batayikoresha cyane, ugereranyije n'ituruka muri Amerika kuko usanga, ahanini n'ibiciro atari bimwe.

Amakaramu ni kimwe mu bikoresho by'ingenzi bikoreshwa mu mashuri kuko hari igihe baca umugani ngo ijimijwe n'ikaramu ntirambura bitewe n'uko baba bashaka kuvuga ko ikaramu igihe wayitondeye ukayikoresha ibyo ugomba gukora byanze bikunze inyungu zikugarukira.

Abacuruza imyenda cyane cyane amasogisi y'inkweto bavuga yuko caguwa yakomeje guteza ikibazo kuko ngo iyo bagiye kuyirangura bayibura ku isoko, ibyo bigatuma n'aho ibonetse iza igura amafaranga atari make.

Mu nsengero na ho ntihahejwe mu gutura hakoreshejwe ikoranabuhanga kuko ubu ngubu ibyo gutanga amafaranga ahererekanywa mu ntoki bishobora guteza indwara nyinshi akaba ari yo mpamvu biri kugenda bicika.

Abayoboke b'amatorero n'amadini mu Rwanda, bavuga yuko igihe babonye umuntu utishoboye muri bo bagomba gukora igikorwa cyiswe nk'umuganda, mu rwego rwo kugira ngo bamwubakire.

Mu idini rya Kiliziya Gatolika biravuga yuko igihe abana bari gukomezwa bahabwa ibintu bibemerera kuba bagira uburenganzira butandukanye n'ubwo bari bafite.

Zimwe mu mpamvu zikomeye zari zihangayikishije Leta y'u Rwanda ni ukubona Abanyarwanda benshi bihurije ahantu hamwe ndetse begeranye kubera ko ibi ari byo byatumye ifunga insengero kugira ngo indwara zidakomeza kwiyongera.

Bamwe mu bayobozi b'amadini n'amatorero, bavuga yuko badakwiriye gufungirwa insengero kuko ngo ariho bakuraga amaronko, ariko na none leta ikavuga ko bakwiye kuba bujuje ibisabwa kugira ngo bemererwe gukora.

Insengero zirashishikarizwa gushyiraho ahantu imodoka ziparika ndetse n'ahandi hisanzuye abayoboke bazajya baba bahagaze mu gihe habaye umubyigano hirindwa ko indwara z'ibyorezo zakwirakwira.

Zimwe mu nsengero zikorera mu Gihugu cy'u Rwanda zitabifitiye uburenganzira ndetse n'ubushobozi zikomeje guhagarikwa bitewe n'uko zisabwa kubanza gushaka ibyangombwa.

Mu gusengera abarwayi ibi bikorwa cyane mu matorero ndetse n'amadini bivugwa yuko bikomeje guteza inkeke ya Leta y'u Rwanda kuko igihe babasengera babakozeho bashobora kubanduza indwara z'ibyorezo.

Amahoteli yakira abantu biba byiza iyo abashyiriyeho n'inzitiramibu kuko hari igihe abantu baba badashaka ko baribwa n'imibu bityo bikaba byabakurizamo uburwayi.

Abatanga serivisi zo kwakira abantu mu mahoteli cyangwa se mu bigo bigiye bitandukanye, bakangurirwa kwambara mu buryo bugezweho, kandi impuzankano yabo ikaba isa neza kugira ngo hirindwe urujijo.

Urugwiro ikaze ndetse no kwita neza ku bakiriya, ni bimwe mu bikurura abakiriya benshi mu mahoteli atandukanye yo mu mujyi wa Kigali, kuko abaza bahagana bagenda biyongera bitewe n'uko babahabonye serivisi nziza.

Amahoteli ndetse n'ibindi bigo byakira abantu cyane cyane abashyitsi ni ngombwa ko bahurira hamwe bakiga ku ngamba zikwiye gukurikizwa muri ibi bihe tugezemo by'impeshyi kuko ari bwo bakira benshi.

Intebe zo mu nzu, ni bimwe mu bitwara amafaranga atari make kuko imwe ikorerwa amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi magana atatu, mu gihe hari n'izikorerwa amafaranga ibihumbi magana atandatu.

Amahoteli akomeye cyane cyane mu turere tw'igihugu, ashishikarizwa gukora ubusitani bwiza bw'ibyatsi, kugira ngo n'uhageze wese ajye abona ubwiza bwaho abashe kugubwa neza.

Amahoteli akomeye mu mujyi wa Kigali biba byiza iyo ateguye icyumba kiza cyabugenewe umushyitsi ashobora kuza akararamo mbese bikaba byatuma aniyongeza bitewe n'uburyo icyo cyumba giteguwemo.

Mu kwita ku bakiriya binyuze mu kubakira mu mahoteli akomeye mu mujyi wa Kigali biravuga yuko ibi na byo bifite uruhare runini mu kuzamura umusaruro mbumbe w'Igihugu mu ngengo y'imari.

Ubusitani bwiza nibwo butuma abaza bagana aho buri bishimira ibihakorerwa ndetse bakanitega kwakirwa neza kuko bigaragaza uruhare bene byo bafite mu gukurura abaza babagana.

Mu gutegura amafunguro y'abashyitsi, ni ngombwa kwita ku isuku cyane bitewe n'uko iyo bidakozwe bityo, bashobora guhura n'indwara zikomoka ku mwanda, ibyo bigatuma batazagaruka.

Gucumbikira abantu mu mahoteri ni ngombwa kwita cyane cyane uburyo wateguye uburiri, intebe ndetse n'ibindi kubera ko aribyo bituma bagubwa neza ndetse bakaba banishimira kuzagaruka aho hantu.

Muri gahunda itajya ibura muri serivisi zitangirwa mu mahoteli ni ukunywa ikawa aho haba hari ibikoresho byabugenewe bitunganya ikawa kugera igeze ku bakiriya.

Kwakira abantu baje bakugana, ukabakirana ikaze ndetse n'akanyamuneza, bituma babwira n'abandi ko babonye ahantu heza, bakira abakiriya neza, ibyo bigatuma amahoteli yose akomeza kugendera muri uwo mujyo kugira ngo abone abakiriya.

Abakora ibijyanye n'amahoteli mu karere ka Musanze, bavuga yuko indabyo zibafasha mu gutaka inzu zabo, bitewe n'uko arizo zigaragarira neza abaje bahagana.

Amwe mu mahoteli yakira abantu mu Karere ka Nyagatare, arakangurirwa kwita cyane cyane ku busitani kuko bituma nta vumbi riboneka cyangwa se bikaba byanateza ishusho itari nziza mu maso y'abaza bazigana.

Mu gutegura ndetse no kwakira abaje babagana bamwe mu bakorera mu mahoteli atandukanye mu Gihugu bavuga yuko uburyo bateguye na byo bigira uruhare mu kongera abakiriya baza babagana.

Mu maresitora akomeye mu mujyi wa Kigali ntabwo bikigezweho ko umuntu yarurirwa kuko haba hatazwi ingano y'ibyo aribumare hakaba harashyizweho uburyo umuntu yiyarurira igihe ashaka kurya.

Abantu bakora amahoteli biravugwa y'uko igihe batakoze ubwogero bugezweho, abantu bashobora kutahasura ndetse bikaba byabatiza igihombo, akaba ariyo mpamvu bashishikarizwa kubaka ubwogero rusange bugezweho.

Amasoko y'imbuto cyane cyane nk'imineke, amacunga, amatunda n'ibindi, akomeje kuvuga yuko ataka igihombo aterwa no kuba imisoro yariyongereye, aho bakorera ubwo bucuruzi.

Abakora ibikorwa by'ubucuruzi, cyane cyane mu masoko, biravu yuko bakomeje kwishimira gahunda, yo gutwara abantu n'ibintu mu buryo bugezweho kuko igihe bavanzwe n'imizigo byatezaga impanuka, ariko ubu bikaba byarakemutse.

Itungo iryo ari ryo ryose, igihe ryariye neza, rikaba ahantu heza, rigaragara neza, ahanini usanga abatabyitaho, aribo bataka igihombo baterwa n'ubworozi bw'amatungo magufi cyangwa amaremare.

Abakora ibikorwa byo gucuruza amabogisa, cyangwa se imyenda y'imbere, bavuga yuko bikomeje kubabyarira inyungu bitewe n'uko umubare mwinshi w'abagabo uza ubagana kugira ngo uhahe iyo myenda.

Abacururiza ku masoko atandukanye mu Gihugu bavuga yuko imyenda ikomeje kuba ikibazo kuko abaza bayigura batanga amafaranga ari munsi y'ayo baba bayiranguye bitewe n'imisoro.

Abakora ibikorwa by'ubucuruzi bw'imbuto, nk'ibitunguru ndetse n'ibindi, bavuga yuko baramutse bahawe igishoro gifatika, ubucuruzi bwabo bwazajya bubafasha mu mibereho yabo ya buri munsi.

Abakora ubucuruzi bw'ibikoresho by'ubukorikori bavuga yuko umusoro ubarembeje kuko amafaranga basora batayakura mu byo baba bacuruje.

Gutwara imizigo irengeje ubushobozi igare bituma habaho impanuka za hato na hato akaba ariyo mpamvu Polisi y'u Rwanda iburira abanyonzi gutwara ibyo bashoboye ku magare yabo kugira ngo ibyo byago byo gukora impanuka bigabanuke mu muhanda.

Abakora ibikorwa byo gutwara abantu ku mapikipiki, aba bazwi nk'abamotari, barakangurirwa gukuraho ibirahure ku ngofero zihabwa abagenzi kuko ariho ndiri y'indwara z'ibyorezo.

Leta y'u Rwanda ku bufatanye na polisi y'Igihugu, bari gukangurira abatwara abantu kuri za moto cyangwa se amapikipiki, kwirinda kubavanga n'imyaka cyangwa se n'imizigo kuko bishobora gutuma, impanuka zo mu muhanda ziyongera.

Abatwara abantu ku mapikipiki bavuga yuko hakwiye kongerwaho igiciro, bitewe n'uko ibikomoka kuri peteroli bikomeje kwiyongera aho ubu ngubu bimaze kwikuba hafi inshuro ebyiri mu myaka itatu ishize.

Abantu batwara abandi ku mapikipiki, bivugwa yuko bakwiye kwibanda cyane cyane ku ngofero baha abagenzi kuko igihe batashyizemo umuti, hashobora gukwirakwizwa indwara z'ibyorezo.

Gukora amapikipiki na byo no mu mwuga udatunze bakeya kuko abantu benshi bakomeje kuvuga yuko igihe wihangiye umurimo ndetse ukawukora neza, buri gihe bikugirira umumaro.

Abatwara amagare nabo bahawe uburenganzira bw'uko batagomba kurenza amasaha yagenwe kugira ngo hirindwe impanuka ziterwa n'amagare mu masaha ya ni mugoroba.

Mu rwego rwo kwirinda ko hakomeza kubaho iyangirika ry'ikirere, hashyizweho gahunda yo gutwara abantu ku mapikipiki, akoresha ingufu z'amashanyarazi, mu rwego rwo kwirinda ibyuka bihumanya ikirere.